Abarimu bigisha mu bigo by'amashuri, kuko bigaragara hari abarimu bahagaze ahantu hamwe, abarimu bakaba ari abantu batanga uburezi cyangwa se bigisha abanyeshuri mu bigo by'amashuri, kugira ngo abo banyeshuri babashe kumenya ibintu bitandukanye.

Umuganga uri muri laboratwari urimo gusuzuma ibizamini, cyane ko yambaye n'ibikoresho byabugenewe bizwi nka ga, ndetse n'uturinda maso, tuzwi nka linete. Kugira ngo ibyo ari gusuzuma na we, bitaza kumwangiriza ubuzima.

Ubugeni n'ubukorikori, aho nk'uko bigaragara ku ifoto hari abanyeshuri barimo bashushanya bakora ibintu bitandukanye by'ubugeni, ndetse hakaba hari n'umwarimu urimo kubafasha gukora ibyo bintu bitandukanye.

Umuntu ushinzwe umutekano wo mu mihanda, mu rwanda bazwi nk'abapolisi, aho yari yagiye mu kigo cy'ishuri guhugura abanyeshuri ku bijyanye n'uburyo bakwirinda ibyaha bitandukanye, by'umwihariko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge cyane ko biba byiganje mu rubyiruko.

Imyambaro zikundaga kwambagwa n'abantu basoje amashuri by'umwihariko za kaminuza ariko muri iki gihe kigezweho ndetse hari n'abanyeshuri ibyo bita kugaraduwetininga cangwa se kuva mu mwaka gumwe wagiye mu gundi bakaba bashobora kwifashisha izo myambaro berekanaga ko bavuyemo mu mwaka gumwe bagiye mu gundi.

Abantu batandukanye bari mu bushakashatsi, mu nzu zishyigwamo ibikoresho by'ubushakashatsi bizwi nka laboratori. Bakaba barimo kwifashisha igikoresho kizwi nka mikorosikopi, cyangwa igikoresho kireba utunyabuzima dutoya dutera ingwara zitandukanye, cyangwa ibindi bintu bitandukanye ariko bitaboneshwaga amaso.

Abanyeshuri bigaga ibijanye n'ubugeni n'ubukorikori. Kuko babigaragaza, barimo barakora ibishushanyo, imitako, bifashishije irangi ndetse n'udusigisho, kugira ngo babashe gukora igihangano kigaragara neza cane.

Aba ni abakozi cangwa se abarimo guhugurigwa gutanga serivisi mu mahotel, ibyo bita guseriva ibintu bitandukanye mu mahoteli nkuko bigaragara ni abanyeshuri, imbere yabo hateretse ibyo kurya bigaragara ko bari gufata amasomo.

Abaganga bari mu gikogwa c'ubushakashatsi mu cumba c'ubushakashatsi kizwi nka laboratwari. Hakaba ari ahantu bakoreraga ubushakashatsi bugamije kuvumbura cangwa se kumenya ikintu gitera indwara zitandukanye, bifashishije igikoresho cabugenewe kizwi nka mayikorosikopi.

Abaririmbyi baririmbaga indirimbo zo mu rusengero, cangwa ahandi hantu cane ko bigaragara ko bashize hamwe, bahujwe n'imyambaro, impuzankano zimwe ndetse bakaba bafite n'abacuranzi, kugira ngo bibafashe kugira umuziki ndetse, n'amajwi bijyanye n'igihe ndetse bimeze neza bishimishije cyane.

Abanyeshuri barimo gukoresha igikoresho c'ikoranabuhanga kizwi nka mikorosikopi, kikaba ari igikoresho cyifashishwaga mu kureba utunyabuzima cangwa se udukoko dutoya dutera indwara, tuba turi mu bintu bitandukanye.

Umunyeshuri uri gukoresha mudasobwa ,ashakisha amakuru kuri interineti mu buryo butandukanye ,kugira ngo bimufashe gutsinda amasomo ye neza.

Umuntu userivaga amayoga mu mahoteli cyangwa se mu mabare. Akaba ari umundu baha ibyo kunywa bitandukanye cyangwa se ibyo kurya akabishira abakiriya muri bare runaka cyangwa mu ihoteli runaka.

Abanyeshuri bigaga umwuga wo kudoda, nkuko bigaragara ku ifoto, hari abanyeshuri bari mu ishuri ndetse imbere yabo hari amamashini gariri kubafasha kudoda imyenda zitandukanye. Bigaragara ko barimo kwiga.

Abanyeshuri bigaga amasomo g'imyuga ahantu cangwa se mu mashuri bakundaga kwita Ayipi alasi, bakaba bigaga ubujyo bwo gukoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga by'umwihariko nk'ubukanishi bakaba biga ubujyo bwo gukanika amamodoka, ndetse n'ibindi bitandukanye bikoregwaga mu nganda.